Umunyeshuri urimo kwiyungura ubumenyi mu mirimo y'amaboko, aho ari gukora ubushakashatsi butandukanye mu bintu yiga.

Inyubako ziri ku murongo aho bigaragara ko gishobora kuba ari ikigo cy'amashuri cyubatswe.

Uburezi bwo mu ncuke ndetse no mu mashuri abanza, usanga barateye imbere mu Rwanda aho abana bose bajya kwiga.

Mu bigo by'amashuri abanza usanga abana bajya ku ishuri, kandi gufatira amafunguro ku ishuri ni byiza cyane, kuko byongereye ireme ry'uburezi mu Rwanda.

Abanyeshuri bari mu nzu, ikoraniro rya mudasobwa aho bari kwiyungura ubumenyi bujyanye n'imirimo y'amaboko.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'amashuri makuru, aho bari kureba bimwe mu bice bigize ikinyabiziga.

Ahantu hari ibikinisho by'abana, aho babikoresha mu gihe bari kwidagadura bigaragara ko biri mu kigo cy'abana.

Abanyeshuri bari kwihugura, bimwe mu bintu by'ikoranabuhanga, aho bari kwiga amashanyarazi n'imikorere yayo.

Uburezi bujyanye n'iby' ubwubatsi, ni kimwe mu bintu minisiteri y'uburezi ishyira imbere cyane, kuko na byo biri mu bintu bikenewe ku isoko ry'umurimo.

Bamwe mu banyeshuri biga ibinyabutabire, barimo gukora ubushakashatsi, ndetse biyungura ubumenyi.

Mu mashuri yisumbuye, hari abanyeshuri bahitamo kwiga ibijyanye n'ubudozi. Kugira ngo baziteze imbere ku isoko ry'umurimo.

Abantu benshi aho hari abagiye gutunganya imisatsi y'abakiriya, bityo bakiteza imbere aho bahabwa amafaranga n'ababagannye.

Abanyeshuri bari kwihugura mu mirimo y'amaboko, aho bari mu nzu yabugenewe, irimo n'ibikoresho bifashisha.

Bamwe mu banyeshuri biga uburyo ki bateza imbere ubuhinzi, bityo bakaziba icyuho cyo kubura ibiribwa.